Umugabo uri gutera umuti ku bihingwa, akaba yambaye imyambaro imurinda ahantu hose haba mu maso, ku biganza ndetse no ku maguru, ni byiza cyane ko ibihingwa biterwa umuti kuko bikunda kwibasirwa n'udukoko dutuma umusaruro wabyo ugabanuka.

Imiti yo mu bwoko butandukanye yifashishwa mu kurwanya ibyonnyi mu bihingwa cyangwa se utundi dukoko utwo ari two twose tubangamira umusaruro w'ibihingwa. Abahinzi bakaba batera iyo miti ku bihingwa byabo maze bigakumira utwo dukoko n'ibindi byonnyi ibyo ari byo byose byatuma ibyo bihingwa bigira umusaruro udahagije.

Abagabo batatu bambaye imyambaro irimo n'ingofero ndetse n'uturindantoki, bafite ibintu bahetse ku mugongo birimo imiti. Bakaba bari gutera umuti mu bihingwa byabo. Ibi bikaba birinda ibyonyi mu bihingwa, birimo udukoko dushobora kuba twabyibasira. Ibi kandi bikaba bituma habaho kwiyongera k'umusaruro w'ibihingwa.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa biba bigomba kwitabwaho cyane kuko bikunda kwibasirwa n'indwara ndetse n'udukoko twinshi niyo mpamvu ari ngombwa guhora byitabwaho n'abahinzi bigaterwa umuti ndetse bikanashyirwaho ifumbire ihagije kugira ngo bitange umusaruro.

Rwiyemezamirimo ucuruza imiti y'ubwoko butandukanye yifashishwa mu buhinzi. Iyo miti ikaba ifasha mu kwica udukoko ndetse n'ibindi byonyi ibyo aribyo byose byibasira ubuhinzi, bityo bikongera umusaruro ukomoka kuri ubwo buhinzi.

Mu gishanga harimo umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara, ufite inkoni ndetse aragiye ihene ze muri icyo gishanga gifite ubwatsi butoshye nanone kandi hari ibyuzi bitatu byororerwamo amafi aho ashyirwamo ari umwayi maze akazakurwamo ari makuru akajyanwa ku masoko ndetse no kwifashishwa gutekwa mu ngo.

Abagabo babiri b'abarobyi bari mu mazi, bakaba bari gukorera hamwe, aho bafite igikoresho cyifashishwa mu kuroba amafi, aricyo bita indobani. Abo bagabo kandi bakaba bafashe amafi agera kuri ane.

Igishanga kinini kirimo amazi yifashishwa mu kuhira ibihingwa, mu gihe k'izuba cyangwa se mu gihe byabuze izuba. Ibi bikaba bituma umusaruro ukomoka kuri ibi bihingwa wiyongera. Aya mazi kandi anifashishwa mu kuhira ibihingwa birimo nk'umuceri, byera ari uko byabonye amazi menshi ahagije.

Umuntu w'igitsina gore wambaye imyambaro y'umutuku ndetse n'ubururu afite mu ntoki ifi, amafi akaba akungahaye ku ntungamubiri nyinshi zirinda umubiri indwara, nanone kandi hari ibiti by'ubwoko butandukanye biri ku musozi.

Mu gishanga kize cyane gifite ubwatsi butoshye, hari ibyuzi byagenewe kororerwamo amafi. Abantu bashaka kororamo amafi, bakaba bazana umwayi bakawushyiramo maze hagakura amafi mato, bakajya bayitaho. Nyuma bakaza kuyajyana ku masoko ndetse bakayakuramo n'amafaranga.

Itsinda ry'abantu barimo abagabo, abagore ndetse n'abana, batoye uruziga ku rugomero rw'amazi, yifashishwa mu kuvomera imyaka mu gihe cy'izuba na none kandi hari umugabo wambaye impuzankano y'igipolisi cy'igihugu.

Umusozi mugufi uteganye n'ikibaya uriho ibiti by'ubwoko butandukanye bikiri bito, ndetse muri icyo gishanga hakaba hari amazi yaretse ahantu hamwe. Ayo mazi akaba yifashishwa mu kuhira ibihingwa, igihe hariho izuba cyangwa se mu gihe ibihingwa bifite amazi adahagije.

Igihingwa cy'ikawa ni kimwe mu bihingwa biteza imbere Igihugu, ibi bihingwa bikaba byera cyane cyane ku misozi maze bikajyanwa mu nganda bigatunywa. Ibyinshi byoherezwa hanze y'igihugu maze bikorohereza Igihugu mu kuzamura iterambere ry'abaturage.

Umugabo mukuru ari kwerekana igihingwa cye cy'ikawa, iki gihingwa kikaba kiriho ibitumbwe ndetse n'ikawa zeze neza, iyo byeze neza byose, bikaba bijyanwa mu nganda, bigatunganywa maze bigakorwamo ibyo kunywa, bimwe na bimwe bikanoherezwa mu mahanga, aho byinjiriza igihugu amafaranga maze kigatera imbere.

Umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru weruye, ari mu murima uhinzwemo icyayi, icyo cyayi kikaba gihingwa maze kikoherezwa mu nganda gutunganywa, kikoherezwa no mu mahanga.

Abantu babiri b'igitsina gore bafite ibikoresho bifashisha mu gusarura icyayi, iki cyayi kikaba kijyanwa mu nganda maze kigatunganywa ubundi kikoherezwa mu masoko yabo yo mu Gihugu ndetse no hanze y'Igihugu maze bigafasha Igihugu mu iterambere.

Mu murima munini w'icyayi giteye ku murongo ndetse keze harimo umugabo wikoreye umufuka urimo icyayi yamaze gusarura, kikaba kijyanwa mu nganda maze kigatunganywa kikoherezwa hanze ndetse no mu yandi masoko hirya no hino mu gihugu.

Umugore wambaye imyambaro ifite amabara asa n'ubururu bw'ikirere ari gusarura ku giti cy'ikawa icyo giti kikaba gifite ibitumbwe ndetse n'ikawa zeze, izo kawa zikaba zijyanwa mu ruganda zigatunganywa maze zikoherezwa mu mahanga ndetse no ku masoko menshi mu gihugu.

Imiti ifunze neza haba mu ducupa dukoze mu byuma ndetse n'utundi dukoze mu bindi no mu mashashi, afite amabara y'imihondo ndetse n'icyatsi kibisi, yifashishwa mu kurwanya indwara mu matungo.

Imiti ivura indwara zitandukanye mu matungo, iri ahantu heza, aho ifunze mu mabara y'ubururu bwijimye, icyatsi kibisi ndetse n'umweru, ikaba iri ahantu hayibuza guhura n'ubukonje bwinshi cyangwa se ubushyuhe bwinshi, bushobora kuba bwayangiza.

Imiti ndetse n'intungamubiri by'amatungo bifunze neza, mu mabara y'icyatsi kibisi, umuhondo ndetse n'umutuku byifashishwa cyane mu kugira ngo amatungo agire ubuzima bwiza, ibi bikaba byongera umusaruro uturuka ku bworozi.

Inkoko za kijyambere ziri mu kiraro cya kijyambere, cyubakishije ibiti ndetse n'imbaho, zikaba ziri kugaburirwa mu buryo bugezweho na bwo bwa kijyambere kugira ngo zitange umusaruro uhagije w'inyama ndetse n'amagi.

Imiti ifunze neza cyane mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, yifashishwa cyane mu kuvura indwara zitandukanye zibasira amatungo. Ibi bikaba bifasha kugira ngo umusaruro ukomoka ku matungo wiyongere.

Imiti y'ubwoko butandukanye, iri mu ducupa dutandukanye, ikaba yifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi kugira ngo bakumire ibyonnyi mu buhinzi bwabo cyangwa se mu bworozi bwabo, iyo miti ikaba yica udukoko cyangwa ibindi bintu ibyo aribyo byose byabangamira umusaruro wabo.

Inkoko ni rimwe mu matungo yo mu rugo magufi, atanga umusaruro urimo inyama ndetse n'amagi, akungahaye ku ntungamubiri zitandukanye ariko kugira ngo ibyo biboneke zikaba zigomba kwitabwaho zihabwa ibyo kurya.

Inyongeramusaruro zikoreshwa mu bworozi, zifunze neza mu mabara y'umweru, umukara, ndetse n'umuhondo. Zikaba zikoreshwa mu kongera umusaruro ukomoka ku matungo, arimo nk'inkoko ndetse n'ayandi.

Ibigori ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro ushimishije iyo byitaweho ariko kandi bisaba kwitabwaho cyane kuko bikunda kwibasirwa n'udukoko tubyonona, harimo nka nkongo. Umuhinzi akaba yibutswa buri gihe guhora yita ku bigori bye, akabisura maze akamenya icyo bikeneye.

Abagabo babiri bambaye imyambaro ifite ibara ry'umukara bari mu nzira aho bafite isuka ku rutugu bakaba bagiye guhinga, aba bagabo bakaba bahinga ibihingwa bitandukanye birimo ibishyimbo, imyumbati ndetse n'ibindi.

Abantu babiri barimo umugabo ndetse n'umugore, bambaye imyambaro y'amabara atandukanye irimo umukara ndetse n'ubururu, bafite amasuka ku rutugu. Ayo masuka akaba yifashishwa cyane cyane mu buhinzi na none kandi hari ibihingwa bitandukanye, birimo nk'imyumbati ndetse n'insina.

Ahantu hisanzuye, hagenewe kurererwa ingemwe z'imbuto n'ibindi biti bitandukanye, mbere yuko byimurwa bikajya guterwa mu mirima. Aho hantu kandi hakaba hatwikiriwe mu rwego rwo kugira ngo izuba cyangwa imvura byinshi bitazangiza izo ngemwe.

Itsinda ry'abantu batanu ririmo abagabo batatu ndetse nabagore babiri, bambaye imyambaro itandukanye, bari mu murima aho bari gukorera hamwe igikorwa cyo guhinga bifashishije amasuka.

Igihingwa cy'ibigori ni kimwe mu bihingwa biteza imbere abahinzi, ariko kugira ngo bigire umusaruro bigomba kwitabwaho ndetse bikanahingwa ku murongo, tutibagiwe kandi ko ibigori bikunda kugira udukoko twinshi tubyibasira, bityo rero ni ngombwa ko abahinzi babyitaho bakabitera n'umuti mu gihe biri ngombwa.

Umugabo mukuru ari mu murima ari guhinga yifashishije igikoresho gakondo ari cyo isuka kigizwe n'umuhini ndetse n'ikindi gice cyo hasi gikoze mu cyuma, kikaba kifashishwa mu buhinzi budateye imbere.

umugabo n'umugore bambaye imyambaro ifite amabara y'umukara ndetse n'umuhondo, bishimiye igiti cy'Umwumbati bakuye maze bagasanga kireze. Imyumbati ni kimwe mu bihingwa bifata igihe kinini kugira ngo byere, ariko iyo byeze bigira umusaruro ushimishije.

Umugabo muremure ari mu murima w'ibigori byinshi cyane aho ari kubyitaho ibigori ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro ndetse bikanateza umuhinzi wabyo imbere iyo byitaweho ndetse bigafumbirwa.

Ibigori bihinzwe mu murima mu buryo bujagaraye ndetse bikaba bihingwanye n'ibindi bihingwa, ibi bigori iyo byeze bikurwa mu murima maze bikajyanwa ku makusanyirizo ndetse no mu bwanikiro bikaba bijyanwa gutunganywamo ibintu bitandukanye bikaba binakorwamo umutsima.

Igihingwa cy'ibigori gishishe gifite ibara ryiza ry'icyatsi kibisi bigaragara ko cyitaweho, iki gihingwa kikaba cyaratewe umuti ndetse kigashyirwaho n'ifumbire, iyo gikuze gitanga umusaruro aho gikurwamo ibintu bitandukanye birimo n'umutsima.

Akarima k'igikoni kubabatswe hifashishijwe ibikoresho birimo ibiti ndetse n'imifuka yatabaguwe, ako karimi k'igikoni kakaba gahingwamo imboga zitandukanye zirimo nk'imboga rwatsi nanone kandi hari ibyatsi bihabwa amatungo byitwa urubingo.

Igihingwa k'insina gitanga ibitoki bivamo imineke ikaba ikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, ndetse kikaba kinavamo ibyokunywa bitandukanye birimo urwagwa gihinze imbere y'inzu ifite ibara ry'umuhondo weruye ndetse n'ibara ry'ubururu.

Amashyamba ni kimwe mu bintu bifitiye akamaro ikiremwa muntu ndetse n'izindi nyamaswa muri rusange. Urugero twavugamo ko amashyamba afasha mu kuyungurura umwuka uhumekwa n'abantu nanone kandi akaba ari iwabo w'inyamaswa zitandukanye zirimo: intare, imparage ndetse n'izindi.

Ibiti byiza cyane bikiri bito bifite amashami y'icyatsi kibisi, bikaba biteye ahantu heza ku musozi. Ibi biti bikaba bifasha mu kuyungurura umwuka duhumeka ndetse iyo bikuze bikaba bivamo ibintu bitandukanye birimo nk'intebe ndetse n'ameza n'ibindi byinshi.

Umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu bweruye, yambaye umwambaro wabugenewe, akaba ari gukora mu murima urimo igihingwa kitwa insenda icyo gihingwa kikaba kijyanwa mu nganda gutunganywa maze kikifashishwa mu guteka ndetse kikoherezwa no mu mahanga.

Ibihingwa biri mu bwoko butandukanye nk'imboga ndetse n'imbuto, urugero twavuga inyanya ndetse n'imizabibu, ibyo bihingwa bikaba bikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye ndetse bimwe muri byo bikaba binifashishwa mu gukora imiti ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Akarima k'igikoni kubabatswe hifashishijwe ibikoresho birimo imbaho ndetse n'ibiti. muri ako karima k'igikoni hakaba hahingwamo imboga zitandukanye z'ubwoko bwose, zifashishwa mu gutegura amafunguro yuzuye intungamubiri.

Umusaruro ukomoka ku bihingwa harimo imboga ndetse n'imbuto urugero twavuga nk'ibitunguru ndetse n'inyanya, izo mboga n'imbuto zikaba zifasha kugira ngo umubiri ugire intungamubiri zitandukanye.

Ibiti bigufi bishishe bifite amabara y'icyatsi kibisi, byeze imbuto nziza cyane zifite ibara ritukura izo mbuto zikaba ari ingenzi mu mirire kuko zirinda indwara ndetse zigatuma abaziriye barushaho kugira ubuzima bwiza.

Indabo zifite amabara atandukanye harimo umutuku ndetse n'icyatsi kibisi, zitunganyirizwa ahantu hamwe mbere y'uko zijyanwa mu ngo cyangwa se guterwa ahandi hantu, izo ndabo zikaba ziri kwitabwaho n'umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru ndetse n'ingofero.

Mu murima uhinzwemo ibihingwa bitandukanye harimo umugabo wambaye umwambaro ufite ibara ry'icyatsi kibisi uri kuvomera ibihingwa bye, ibi bikaba bikorwa mu gihe ibihingwa bifite amazi make cyangwa se mu gihe k'izuba rikakaye maze bikongera umusaruro ukomoka ku buhinzi.

Ubuhinzi bwibasirwa n'ibiza bitandukanye, ariko cyanecyane udukoko dukunda kurya ibihingwa harimo nka nkongwa. Mu rwego rwo kubirwanya abahinzi bagirwa inama yo gutera imiti, ndetse no gusura ibihingwa byabo kenshi gashoboka.

Abagabo batatu ndetse n'umugore umwe muri abo bagabo batatu, hakaba harimo umugabo wambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu ndetse n'ingofero irinda umutwe, akaba afite imashini yifashishwa mu kuhira ibihingwa mu gihe k'izuba cyangwa se mu gihe amazi yabaye make ku bihingwa.

Ibikoresho bitatu byabugenewe byifashishwa mu buhinzi buteye imbere, aho bikoreshwa mu kuvomera ndetse no kuhira imyaka, mu gihe k'izuba, cyangwa se mu gihe ibihingwa bidafite amazi ahagije.

Mu rwego rwo kugira ngo hongerwe umusaruro ukomoka ku bihingwa cyane cyane mu bihingwa mu mibande ndetse no mu bishanga. Ni ngombwa cyane ko hifashishwa imashini zifasha mu kuhira ibihingwa mu gihe bifite amazi make cyangwa mu gihe k'izuba. Ibi bikaba bifasha kugira ngo hongerwe umusaruro ukomoka kuri ibyo bihingwa.

Umwana w'umuhungu ari mu murima w'ibigori bikiri bito, akaba ari gukoresha imashini yabugenewe yifashishwa mu kuvomera ibihingwa mu gihe k'izuba cyangwa se mu gihe ibihingwa bifite amazi make. Ibi bikaba bifasha kugira ngo umusaruro ukomoka ku buhinzi wiyongere.

Umuntu w'igitsina gore wambaye imyambaro ifite amabara y'icyatsi kibisi umutuku ndetse n'umukara yifashishije igikoresho cyabugenewe ari kuhira imyaka ibi bikaba bikorwa mu gihe cy'imvura cyangwa se mu gihe ibihingwa bifite amazi make na none kandi hari amashyamba y'ubwoko butandukanye.

Hifashishijwe igikoresho gitwara amazi kiyakura ahantu hamwe kiyajyana ahandi umugabo w'umuhinzi ari kuvomera imyaka ye, ibi bikaba bikorwa mu gihe cyane cyane cy'izuba aho ibihingwa biba bifite amazi make, ibi nanone bikaba bifasha kugira ngo umusaruro ukomoka ku bihingwa utagabanuka bitewe n'izuba ryinshi.

Umurima uhinzwemo mu buryo bugezweho ndetse ukaba ufite n'imashini zifashishwa mu kuvomera mu gihe ibihingwa bifite amazi makeya. Ibyo bikaba bifasha kugira ngo umusaruro wabyo wiyongere.

Hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga, bikoresha amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba, umubyeyi w'umugore ari kuvomera imboga ze z'amshu, ibi bikaba bikorwa mu gihe afite amazi make cyangwa se mu gihe cy'izuba rikabije, rishobora kuba ryagira ingaruka kuri izo mboga.

Mu gihe cy'izuba ryinshi amazi ashira mu butaka maze ibihingwa bikabura ayo bikoresha mu gihe biri gukora ibibitunga, ibyo ngibyo bikaba bishobora gutuma ibyo bihingwa byuma, ni ngombwa cyane rero ko muri icyo gihe hakoreshwa uburyo butandukanye bwo kuvomera ndetse no kuhira ibyo bihingwa mu rwego rwo kugira ngo umusaruro ubikomokaho utagabanuka.

Hifashishijwe igikoresho cyabugenewe, umubyeyi w'umugore wambaye umwambaro ufite ibara ry'umweru wacuye ndetse n'igitenge, ari kuvomera imboga z'amashu. Ibi bikaba bifasha aya mashu kugira ngo ahorane itoto afite amazi bityo bizatume agira umusaruro mwiza.

Hifashishijwe igikoresho gitwara amazi umugabo wambaye umwambaro ufite ibara ry'ikigina ndetse wambaye n'agapfukamunwa ari kuvomera ibihingwa, ibi bikaba bikorwa mu gihe cy'izuba cyangwa se mu gihe ibihingwa bifite amazi makeya maze bikongera umusaruro uturuka kuri ibyo bihingwa kuko bibirinda kuba byakumishwa n'izuba.

Hagati y'uruhererekane rw'imisozi migufi ndetse n'imiremire, hari igishanga cyiza cyane kinyurwamo n'umugezi, icyo gishanga kikaba cyifashishwa mu guhingwa ibihingwa bitandukanye bikenera amazi menshi, birimo nk'umuceri.

Umusozi muremure uteganye n'ahantu harambuye, uhinzweho ibihingwa bitandukanye birimosina ndetse n'ibishyimbo, ni byiza cyane ko mbere yo guhinga kuri iyo misozi, habanza gucibwa imirwanyasuri, mu rwego rwo kugira ngo ibihingwa bihinze kuri iyo misozi, bidatwarwa n'amazi menshi y'imvura mu gihe iri kugwa.

Umusozi muremure uhinzeho ibihingwa by'ubwoko butandukanye. Ni byiza cyane ko mbere yo guhinga ku misozi cyangwa se n'ahandi hantu hahanamye, habanza gucibwa imirwanyasuri kugira ngo mu gihe cy'imvura nyinshi ibyo bihingwa bitazatwarwa n'amazi.

Inyamaswa nziza cyane ndende yitwa agasumbashyamba iri mu cyanya cyabugenewe cy'inyamaswa, abakerarugendo bakaba bishyura amadevize maze bakaza gusura iyo nyamaswa ndetse n'izindi zitandukanye ziba muri icyo cyanya.

Imisozi myiza cyane ihinzeho ibihingwa bitandukanye, birimo ibishyimbo n'ibindi, iyo misozi ikaba iriho imirwanyasuri irinda ibyo bihingwa kuba byatwarwa n'isuri.

Ku misozi miremire ndetse n'imigufi, hariho ibimera bitandukanye, birimo amashyamba ndetse n'ibihuru, bikaba byiberamo inyamaswa z'ishyamba, zirimo nk'inzoka, imihari ndetse n'ibindi, bikaba bifasha kugira ngo urusobe rw'ibinyabuzima, rukomeze kumera neza.

Imisozi myiza cyane iteyeho ibiti bitandukanye ndetse n'ibihingwa. Ariko na none ni byiza ko mbere yo guhinga kuri iyo misozi habanza gucibwaho imirwanyasuri mu rwego rwo kugira ngo ibihingwa biteye kuri iyo misozi bitazatwarwa n'amazi y'imvura mu gihe imvura yaguye ari nyinshi.

Mu mbuga nini irimo ubwatsi butoshye, harimo inka nyinshi ziri kurisha ubwo bwatsi na none kandi hari ibiti birebire bikaba bikurwamo ibikoresho bitandukanye birimo nk'inzugi, intebe, ameza ndetse n'ibindi byifashishwa mu rugo.

Imisozi ibiri iteganye, umwe uri hakurya, undi uri hakuno, iteyeho ibihingwa bitandukanye, birimo ibiti ndetse n'insina. Kuri iyo misozi yombi hakaba hariho amazu, atandukanye ndetse amwe muri yo akaba yubatswe mu buryo butagezweho.

Abagabo babiri bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye bari kwita ku nka za kijyambere nazo ziri mu kiraro kigezweho cyubakishijwe ibyuma inka ni rimwe mu matungo magufi ashobora kugeza umuntu ku iterambere mu gihe yitaweho neza akaba ashobora gutanga amata ndetse n'ifumbire yakwifashishwa mu buhinzi.

Ihene zikiri ntoya z'amashashi ziri kwitabwaho n'umuntu, akaba ari kuziha umuti uzivura indwara zitandukanye. Nanone kandi hari inzu yubakishije amabati ashaje ndetse n'ibiti birebire ariko bitarakura.

Innka nziza cyane ifite amahembe maremare izwi nk'inyambo, iri mu kiraro cyiza cyubakishijwe ibyuma, isima ndetse kikaba kinasakaye. Izi nka iyo zitaweho neza, zikaba zitanga umusaruro, urimo amata ndetse n'ifumbire yifashishwa mu buhinzi.

Imbere y'inzu zifite amabara y'ubururu zifashishwa mu kwita ku matungo, hari ikiraro kiza gifite amabara atukura, kirimo inka za kijyambere. Nanone kandi hari abantu bashinzwe kwita kuri izo nka ndetse bakaba banazikama. Ni byiza cyane kwifashisha ibikoresho bifite isuku mu gukama inka kuko birinda indwara zitandukanye z'umwanda.

Abantu barimo abashinzwe kwita ku matungo bambaye imyambaro y'ubururu ndetse n'inkweto zabugenewe n'abandi bambaye imyambaro y'umweru, bari imbere y'ikiraro cyagenewe inka zifite amahembe maremare zitwa inyambo, izi nka zikaba zifite uruhare mu muco nyarwanda zikaba zinubashywe.

Inzu nini yabugenewe yubatswe mu buryo bwa kijyambere ndetse ikaba ifite n'amatara irimo inkoko nyinshi cyane zifite ibara ry'umweru zorowe mu buryo bwa kijyambere, izo nkoko zikaba zitanga umusaruro urimo inyama ndetse n'amagi.

Abagabo barimo abambaye imyambaro y'ubururu ndetse n'umweru bari kwita ku nka zizwi cyane mu muco nyarwanda, zifite amahembe maremare zitwa inyambo, izo nka zikaba ari ikimenyetso gihambaye mu muco nyarwanda, aho zijya zikurura na ba mukerarugendo.

Ibiraro byubatswe mu buryo bugezweho bikaba byubakishijwe isima, imbabari ndetse bikaba binasakawe, byifashishwa mu kugira ngo ubworozi buteye imbere bubashe kugira umusaruro uteye imbere.

Inka za kijyambere zifite ibara ry'ibihogo, zikaba ziri mu kiraro gikozwe neza cyubakishijwe ibyuma, ndetse kinasakaye. Hari kandi n'ushinzwe kwita kuri izo nka, wambaye imyambaro yabugenewe ifite ibara ry'umweru ndetse n’umukara.

Inkoko za kijyambere zifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku zikaba ziri ahantu mu cyumba zagenewe kubamo. Na none kandi hari ibindi bikoresho bifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku bigezweho byifashishwa mu kugaburira izo nkoko kugira ngo zigire umusaruro mwiza.

Inka za kijyambere zifite amahembe maremare, ziri ahantu habugenewe, na none kandi hari abantu bambaye imyenda yabugenewe, ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu bakaba barimo abantu bashinzwe kwita kuri ayo matungo ndetse n'abaganga bayo.

Inka zifite amahembe maremare ziri ahantu habugenewe kugira ngo zitabweho. Zikaba ziri kwitabwaho n'abantu bambaye imyambaro yabugenewe ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, bakaba bambaye n'inkweto zabugenewe.

Mu gisahani kinini cy'umweru harimo imbuto nziza cyane z'ibishyimbo zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, izo mbuto zikaba zishyirwa mu butaka maze imvura yazinyagira cyangwa se zavomererwa zikazamuka hejuru y'ubutaka maze zigakura zigatanga umusaruro.

Ikimera kikiri gito gifite ibara ry'icyatsi kibisi, cyakuze ari uko habanje gushyirwa urubuto mu butaka maze rukavomererwa, rukitabwaho, rugashyirwaho ifumbire maze icyo gihingwa kikazamuka hejuru y'ubutaka.

Abagore batatu barimo umwe uteruye mwana bari mu buhunikiro bw'umusaruro w'ibigori, ibi bigori bikaba bizanwa muri ubwo buhunikiro nyuma yo gukurwa mu mirima ndetse bigakurwaho n'ibishishwa by'inyuma bikaba bikurwa aha ngaha byaramaze kwanikwa bigahita bijya gutunganywamo ibintu bitandukanye.

Umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, ari gutoranya ibishyimbo mbere yuko ajya kubitera, ibyo bishyimbo bikaba biterwa mu butaka maze imvura yagwa bikamera bikazakurwaho umusaruro w'ibindi bishyimbo byinshi.

Mu kiraro cyabugenewe harimo inka ya kijyambere, ikaba iri kwitabwaho n'abantu batatu, barimo abagabo babiri bambaye imyambaro yabugenewe, umwe muri bo akaba ari umuganga w'amatungo.

Mu kiraro cyubakishijwe ibiti ndetse gisakaje amabati, harimo inka ya kijyambere, iyo nka ikaba iri kwitabwaho n'abakozi bashinzwe kuvura amatungo, bambaye imyambaro isa n'ikigina, abo bakozi bakaba bari gukurikirana ubuzima bw'iyo nka.

Inka ya kijyambere ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, ikaba iri mu kiraro kigezweho cya kijyambere, gisakajwe amabati, ikaba iri kumwe n'umuntu wambaye impuzankano yo mu ibara ry'ikigina ndetse wambaye n'inkweto zabugenewe, akaba ashinzwe kuyitaho.

Inka ya kijyambere iri mu kiraro cyayo iri kwitabwaho n'umukozi ushinzwe kuyitaho wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu. Ni byiza cyane ko inka cyangwa se n'andi matungo yose agira umuntu ushinzwe kuyitaho uyahura impande bityo bikongera umusaruro ukomoka kuri ayo matungo.

Ku kiringiti gifite amabara y'umutuku ndetse n'umukara, haryamyeho inyamaswa aho iri guterwa urushinge n'umuvuzi. Uwo muvuzi akaba ari kwifashisha ibikoresho byifashishwa mu kuvura ndetse no gutera inshinge.

Inka za kinyarwanda zifite amahembe maremare, ziri mu kiraro cyabugenewe aho ziri kumwe n'umuganga uzivura, hakaba kandi hari n'abakozi bashinzwe kuzitaho bambaye imyambaro yabugenewe ifite amabara y'ubururu.

Mu biraro byabugenewe bikoze mu byuma harimo inka za kinyarwanda nziza cyane zitwa inyambo zifite amahembe maremare nanone kandi hari abashinzwe kuzitaho baziha ibyo kurya bambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu ndetse n'abandi bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru bashinzwe kuzivura indwara zitandukanye.

Mu cyanya cyahariwe inyamaswa ndetse gifite ubwatsi butoshye, hari kugendamo inyamaswa nini cyane yitwa inzovu. Iyo nyamaswa ikaba irya ibyatsi ndetse ikaba inakurura ba mukerarugendo maze bakishyura amafaranga, bigateza imbere igihugu.

Mu byatsi bitoshye biri mu ishyamba hari utunyamaswa tw'ubwoko bumwe, utwo tunyamaswa tukaba dukurura ba mukerarugendo baturutse imihanda yose, bakaza kutureba aho twibera mu cyanya cyahariwe inyamaswa, maze bakishyura amafaranga bigateza igihugu imbere.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'inguge yibera mu mashyamba manini, iyi nyamaswa ikaba ikunda gutera abantu mu mirima ndetse no mu ngo, ikaba iba ishaka ibyo kurya, akenshi abahinzi bakaba bayikoma ubwononnyi.

Inyamaswa yitwa urusamagwe, ifite ibara ry'ikigina, umukara ndetse n'umweru, ikaba iri mu cyanya cyabugenewe. Abakerarugendo bakaba bishyura amafaranga kugira ngo babashe kureba iyi nyamaswa.

Inyamaswa yitwa impara y'amabara y'umukara ndetse n'umweru iri mu cyanya cyabugenewe K'inyamaswa, abantu bakaba batanga amafaranga kugira ngo babashe gusura izo nyamaswa maze zikinjiriza amafaranga Igihugu.

Inyoni ni kimwe mu tuyamaswa dutangaje. Abantu benshi bazi ko inyoni zifite ubushobozi bwo kugenda mu kirere ziguruka byonyine ariko kandi hariho n'ubundi bwoko bw'inyoni bushobora kuba bwava ahantu hamwe bukajya ahandi bugenda mu mazi.

Mu cyanya cyagenewe inyamaswa habamo inyamaswa zitandukanye z'ubwoko bwose, urugero twavugamo intare, imparage, agasumbashyamba, inzovu, imvubu ndetse n'izindi. Izo nyamaswa zikaba zikurura ba mukerarugendo bakishyura amadovize maze bigafasha igihugu mu iterambere.

Inyamaswa zitwa imparage, zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, ziba mu cyanya cyabugenewe, ba mukerarugendo bakaba bishyura amafaranga maze bakaza kureba izo nyamaswa ndetse n'izindi ziba muri icyo cyanya maze bakishyura amafaranga.

Inyamaswa zirimo imparage, impara ndetse n'udusumbashyamba ziri mu cyanya cyabugenewe cy'inyamaswa, icyo cyanya kikaba kibamo n'izindi nyamaswa zitandukanye, zaba izo ku butaka ndetse n'izo mu biti urugero twavugamo inyoni, intare ndetse n'izindi.

Inyamaswa nziza cyane yitwa imparage, ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, iri mu cyanya cyagenewe inyamaswa, ba mukerarugendo bakaba bishyura amafaranga ngo baze kureba iyo nyamaswa ndetse n'izindi, bityo bikinjiriza Igihugu amafaranga.

Inyamaswa ifite amabara y'ikigina ndetse n'umukara, ameze nk'ay'ingwe, ifite ururimi rutyaye ndetse n'amenyo asongoye, ikaba itunzwe n'inyama. Iyi nyamaswa ihiga utundi tunyamaswa dutoya, ikatwica maze ikaturya.